Umwana muto akaba yaje gushaka amazi yo kugira ngo yifashishwe mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo nko koga ndetse no kuhira ibimera, ndetse no koza ibyombo ndetse no gukoropa inzu kugira ngo igire isuku.

Umwana muto arimo aravoma amazi yo kunywa ngira ngo ayifashishe arimo aranywa cyangwa se arimo arayakoresha mu masuku, haba ayo mu menyo ndetse n'ayo ku mubiri bisanzwe. Umwana afite ibitwenge byinshi bigaragaramo kwishima ndetse n'akanyamuneza.

Abana bane bose baje gufata amazi yifashishwa muri byinshi bigiye bitandukanye mu gufasha abantu mu rugo harimo guteka, koza ibyombo, gukoropa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mu gukora amasuku ndetse no kwivuza ku ndwara zigiye zitandukanye.

Abagore barimo barafata amazi bayavana mu butaka hasi cyane, bakayazamura bakayashyira mu ndobo, bityo bakajya kuyifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye, nk'imirimo yo mu rugo haba gukoropa, koza ibyombo ndetse no kwiyuhagira ku mubiri.

Umusore arimo arita ku baturage abafasha bitewe n'indwara bagenda bahura nazo rero arimo buri kimwe cyose bagenda bakenera kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza nta kibazo bafite rero uno muganga yambaye ikanzu y'umweru yabugenewe.

Inama nka kimwe mu bintu mpuzamahanga bigenda biba byifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'ubundi buryo bugiye butandukanye, murwego rwo kugira ngo bafate imyanzuro imwe, yafasha iterambere ndetse yafasha abantu kugira imitekerereze imwe rusange kugira ngo bazane ibintu bishya ndetse n'ibintu byiza.

Bamwe mu bita ku abarwayi ndetse banafasha abantu kugira ngo bamererwe neza, abo ni abaganga ndetse n'abaforomokazi, abaforomokazi rero bakaba ari abafasha abaganga bakuru, mu rwego rwo kugira ngo serivisi zihute kandi zigire ireme muri byose.

Abakozi b'ikigo cya unicef ikigo mpuzamahanga cyita ndetse kikanacunga uburenganzira bw'abana ku mpande zose z'isi guhera ku mugabane w'i burayi ukageza ku mugabane wa afurika ndetse n'ahandi nicyo aba abakozi bakora.

Umugore uteruye umwana ku ruhande rw'iburyo, ufite impapuro mu ntoki zindi, inyuma ye hari abantu benshi baje kwa muganga gufata serivisi z'ubuzima, izijyanye n'abana haba kubakingira ndetse no kubaha imiti.

Umubyeyi uryamye urwaye, arwaye indwara zigiye zitandukanyekaniye, bose uko ari batatu bambaye ubupfukamunwa, mu rwego rwo kugira ngo hatagira uwanduza cyangwa se wanduzwa n'abandi indwara z'ubuhumekero, umubyeyi urwaye bamutwikirije igitenge.

Umuhanzi israel mbonyi uteruye umwana muto, amushyize ku munzani kugira ngo barebe ibiro uyu mwana yaba afite barebe nimba afite ubuzima buzira umuze cyangwa se nimba nta kindi kintu abura, uyu muhanzi rero arakomeye cyane.

Abana babiri baje gufata amazi, umwana umwe yagiye kuyakura hasi ndetse undi mwana nawe yagiye kuyateka kugira ngo abone uburyo ayatahana ndetse n'abandi bana babakikije nabo bitewe n'uko nabo bakeneye amazi kugira ngo umwe najya avaho hajyeho undi kugira ngo babone amazi yifashisha mu mirimo yo mu rugo isa...

Umwana w'umukobwa uvuye kuvoma amazi kugira ngo bayifashishe mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo gukoropa, koza ibyombo, ndetse no kwiyuhagira umubiri, ndetse no kuvomera ibimera kugira ngo bikure neza, rero umubyeyi arimo aramwakira bishimye akanyamuneza ari kose.

Abaganga bo mu kigo nderabuzima, barimo barafata amasomo agiye atandukanye kuri serivisi bagenda batanga bazihereza abaturage bagiye barwaye indwara zigiye zitandukanye, ziri mu byo bavura, babereka uko bikorwa n'uko bakora.

Umwana w'umukobwa uri hagati y'imyaka cumi n'itandatu ndetse n'imyaka makumyabiri arimo arafata kumazi kugira ngo yitunganye mu maso ndetse yegeranye n'aho babika imyanda handitseho ngo UNICEF; nka kimwe mu bigo mpuzamahanga byita ndetse bifasha abana kugira ngo babeho neza nk'uko bikwiriye.

Umuganga uri mu kigero cy'imyaka y'abasore, wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite gant mu ntoki z'umweru, arimo aratanga imiti ku muturage usanzwe, inyuma yabo hari umuturage wambaye ijule y'icyatsi, ahagaze arimo arabareba ibyo barimo.

Abaganga batatu b'abagore babiri muribo barimo barandika ibintu bigiye bitandukanye babivana kumpapuro zisa icyatsi babishyira mumakayi asa umweru, umwe muri abo baganga rero arimo arabareba ibyo barakora, babiri muribo rero bambaye imyenda yabugenewe y'umweru ndetse undi yambaye umwenda w'ubururu.

Umugabo ufite akanyamuneza, bitewe n'uko yagiye ahabera umuhango wo kwita abana b'ingagi amazina, bikaba bibera mu Karere ka Musanze, gaherereye mu Ntara y'Amajyaruguru, y'Igihugu cy'u Rwanda.

Abaturage bambaye agapfukamunwa, barimo baragirwa inama z'uburyo bakwiriye kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ndetse n'uburyo bakwiye kubungabunga ibidukikije, harimo kwita ku mazi ndetse no gutera ibiti kugira ngo bagire umwuka mwiza ubakikije.

Abaturage batandukanye biganjemo abagore, barishimye ndetse barimo barakoma amashyi bitewe n'inama barimo baragira ndetse bitewe n'ikiganiro barimo baragira mpuzamahanga kiganira ku ndwara zo mu mutwe ndetse n'uburyo bafasha abo barwayi.

Abaturage bagiye batandukanye harimo abakobwa, abahungu, abagore ndetse n'abagabo bakaba bahuriye hamwe mu nzu mberabyombi mu rwego rwo kugira ngo basangire ibitekerezo ndetse bigane ku kintu kimwe bose bagiye bahuriyeho.

Umusore w'igikara ufite ikibazo cyo mu mutwe, ari ahantutu hagenewe kubika no gushyira ibikoresho byarangije gukoreshwa, bizwi nk'umwanda, arawambaye anawufite mu ntoki, kandi bitakwiriye umuntu muzima.

Umwana ndetse ari kumwe n'umuntu mukuru, barimo baramutoza uburyo boza amenyo ye kugira ngo yirinde indwara zirimo ifumbi ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zifata amenyo, rero bose bambaye imyenda y'umweruru, byerekana ko bafite isuku.

Abaganga b'amenyo bifashisha ibyuma bigiye bitandukanye ,kugira ngo bashyire amenyo ku murongo ndetse kandi bakuremo atagize icyo amaze ari ukugira ngo atere indwara gusa cyangwa se kugira ngo atere uburibwe, rero kwa muganga ayo ngayo bayakuramo kugira ngo umuntu amererwe neza.

Umusore wagiye kureba muganga w'amenyo akaba yicaye ku ntebe yabugenewe, kugira ngo muganga amusuzume amurebere uko yamukiza ndetse yamufasha mu kubungabunga amenyo ye bityo atandura indwara zigiye zitandukanye zifata mu menyo.

Umuganga ni umwe mu bantu bagira uruhare mu kugira ngo abantu baba bamerewe neza nta kibazo bagiye bafite, rero hano hari umuganga w'umugabo uri mu bantu afasha abaturage kumererwa neza igihe baba bagize ikibazo icyo ari cyo cyose.

Umukobwa arimo aramwenyura agira ngo yerekane uburyo amenyo yiwe ari ku murongo ndetse n'uburyo akeye bitewe n'uburyo ayoza neza abyitondeye, agakoramo isuku ihagije nka bimwe mu bintu byiza cyane ku muntu.

Umusore arimo arashyira akadodo mumenyo kugira akuremo imyanda bityo ngo yirinde indwara zitandukanye zifata amenyo nk'amafumbi ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, rero uyu musore nyuma yo gufata amafunguro arimo akora ako kazi.

Umwana w'umukobwa wagiye kureba muganga w'amenyo kugira ngo amufashe amenyo ye ayashyire ku murongo ndetse kandi nawe age aseka nk'abandi bitewe n'uko amenyo ari nka kimwe mu birango by'ubwiza umuntu akwiye kuba afite mu busanzwe.

Umusore uryamye utegereje ko bamuha ubuvuzi ndetse utegereje ko bamwitaho kugira ngo bamuvure indwara zigiye zitandukanye, zifata amenyo ndetse zikayangiza bikomeye ndetse n'izindi zitayangiza cyane ariko na zo zitanga uburibwe bukomeye cyane ku mubiri.

Umusore agiye kwa muganga kugira ngo bamurebere mu menyo ye niba ari nta kibazo agiye afite kugira nibasanga harimo ikibazo bityo bashake ibisubizo byamufasha. Kimwe mu bisubizo byamufasha harimo ko bakuramo iryinyo rimwe ryaba ryababaye, kugira ngo areke kubabara cyane mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umusore ndetse n'umwana muto, barimo bashyira akagozi hagati y'amenyo yabo, kugira ngo bakuremo imyanda, bityo birinde indwara zigiye zitandukanye harimo nk'ifumbi, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zifata amenyo zatuma imibiri yabo, cyangwa se amenyo yabo atamererwa neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaganga babiri b'abagabo barimo baravura umukobwa amenyo. akaba aryamye hasi, umuganga umwe akaba ashyize icyuma mu kanwa k'umukobwa undi muganga akaba arimo aramumurikira urumuri kugira ngo abone neza ibyo arimo arakora.

Umwarimu arimo arerekera umunyeshuri we, uburyo amenyo y'umuntu aba ameze mu kanwa, uburyo akurikiranwa ndetse n'uburyo yitwa, kugira ngo nibabimubaza umunyeshuri azabone icyo ashyira ku rupapuro rwe kugira ngo abone amanota.

Umusaza arimo arereka umwana w'umuhungu w'umusore, amwereka ibintu biri ku mpapuro kugira ngo uwo musore arebe ibyo ari byo na we amuhereze uko abyumva, umusaza rero arishimye ndetse n'uyu musore yuzuye akanyamuneza ndetse biteretse ibyo kunywa imbere yabo.

Imwe mu myitozo bahereza abantu bari mu myaka y'izabukuru, hari uko ubahereza bakajya bandika ibyo bafite mu mutwe ndetse n'ibyo batekereza mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo batibagirwa cyangwa se batirengagiza ibiri kuba, bityo rero bikabafasha muri byose.

Umukecuru urimo urakata imboga ari kumwe n'umukobwa we barishimye bari guseka bitewe nuko ari igikorwa cyabahurije hamwe kandi bose bakaba bari bakumburanye. Ndetse banishimiranye umukobwa arimo araseka ndetse n'umukecuru ibyishimo biramurenze.

Indyo yuzuye ndetse nka bimwe mu byifashishwa kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugende neza bityo abantu benshi bagirwa inama y'uko bakwiye gufata amafunguro y'indyo yuzuye, ariho imboga, ariho imbuto ndetse bakaza no kunywa amazi bityo kugira ngo abasirikare b'umubiri baze kwiyongera.

Umusaza uri mu myaka y'izabukuru, hagati y'imyaka mirongo itandatu ndetse n'imyaka mirongo icyenda, barimo rero baramwuhagira, kuko adashobora kwikorera iyo serivise kugira ngo yitunganye, imyaka arimo ni imyaka yo gutakaza intege nyinshi cyane, ndetse n'imyaka yo kwibagirwa byinshi.

Umukecuru ndetse n'umusaza bishimye, bitewe n'iterambere bagezeho, bitewe n'amahoro yo mu mutima bafite, bitewe n'ubuyobozi bwiza bafite, bitewe n'ahantu heza batuye ndetse bitewe n'uburyo imirimo yabo bakora bakabona umusaruro utubutse.

Umugore w'umuforomo kazi arimo arita k'umukecuru, areba uburyo ubuzima bwe buhagaze kugira ngo arebe icyo yamufasha, bitewe n'uko ubuzima bw'abakecuru bukunze guhangayikishwa n'indwara zigiye zitandukanye, rero uyu mukobwa ari kumufasha.

Umusaza n'umukecuru bari bicaye ku ntebe imbere yabo hariho ameza iriho ikirahure cy'amazi ndetse n'uturabo tw'icyatsi turi mu gakono k'umweru umusaza yari agiye gufata imiti umukecuru afite urupapuro arimo aramusomera ibyanditse ku rupapuro.

Abasaza ndetse n'abakecuru babagira inama y'uko bakwiye gukora siporo nka kimwe mu bintu bizana ubuzima bwiza, bityo bikazamura abasirikare b'umubiri kugira ngo barwane n'indwara nyinshi zige zitandukanye zifata abantu bo mu za bukuru.

Umukecuru ndetse n'umusaza, umukecuru akaba ari ruhu rwera, mu gihe umusaza ari umwirabura, barimo bariruka bagira ngo bagorore umubiri, bityo biririnde indwara zigiye zitandukanye zifata abantu bari mu myaka y'izabukuru.

Abayobozi bagiye batandukanye bahuriye ahantu hamwe, barimo bariga ku myanzuro igiye itandukanye ifasha abaturage, haba mu kwivuza ndetse n'izindi gahunda zigiye zitandukanye mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage.

Uruhu rw'umuntu rugenda rugira indwara zigiye ziyatandukanye biterwa n'icyateye izo ndwara, uruhu rurinda ko amaraso yasohoka ndetse kandi uruhu rurinda ibice byo mu mubiri w'imbere ho umuntu, uruhu rero rusaba ko urwitaho, ukarukorera isuku ndetse kandi warwara gato ugahita ujya kwa muganga.

Umuganga arimo aratera umuturage usanzwe urukingo kugira ngo amufashe kugira ngo ubuzima bwe bugire abasirikare benshi mu mubiri bityo indwara niza itazigera ituma aremba cyane rero urukingo rutuma umubiri wiremamo ubudahangarwa budasanzwe.

Abaturage bari mu rugendo, bakangurira abaturage ku bijyanye na Kanseri y'ibere, bavuga bati twirinde Kanseri y'ibere tuyisuzumishije hakiri kare kuko ivurwa igakira. Abaturage rero bafite icyo gipapuro cyanditseho ayo magambo ndetse bambaye imipira y'umweru bose.

Inzu ngari irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe nini ndetse hakabamo n'intebe ntoya, izo ntebe ntoya zikaba zegeranye n'imeza yifashishwa mu guterekaho haba ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umuganga ndetse n'umuturage usanzwe, muganga ateruye umwana bigaragara ko ari uw'uyu mugore, bityo rero bakaba bishimiye iyi ntsinzi bagezeho yo kubyara umwana unezerewe kandi na bo bakaba banezerewe.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo cyakira abaturage bose bazanye indwara zigiye zitandukanye, haba kanseri, haba malariya, haba indwara zo mu nda, haba izindi ndwara zose nk'ibikomere ndetse no kuvunika, izi zose barazivura umuntu ataha yakize.

Ushaka kuvugana n'iduka ricuza imiti, wahamagara kuri zeru karindwi, umunani umunani, gatanu gatanu, karindwi zeru, icyenda zeru, ni iduka ricuruza imiti ryitwa Peniyeri rya Murekatete, ryifashisha ikoranabuhanga mu kwishyura ndetse rigatanga imiti iboneye yose waba ushaka.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, ni ibitaro bikomeye cyane bigenda bifasha abarwayi bagiye baza bavuye ahantu hagiye hatandukanye, haba abo muri Muhanga, ndetse n'abandi bagiye bava mu nce zigiye zitandukanye kugira ngo babiteho nk'abaturage b'igihugu.

Ubusitani nka kimwe mu bintu byifashishwa kugira ngo batake ahantu hanini ku buryo umuntu wese yabibona, avuga ati ahantu hasa neza, rero ubusitani, bimwe mu bintu byifashishwa mu kugira ngo bitunganye umwuka mwiza abantu bahumeka.

Umuganga ari kumwe n'umusaza uri mu kigero cy'izabukuru, muganga arimo aramupima indwara zigiye zitandukanye ariko uyu musaza akaba afite ibyishimo n'akanyamuneza ku maso ndetse n'umuganga akaba yishimiye mu gutanga ino serivise.

Ibiti birebire bibiri by'imikindo biri mu busitani bikikijwe n'amatafari ahiye, harimo pasiparume ndetse n'indabo zindi zigiye zitandukanye, iruhande hari imodoka ebyiri, inyuma hari inzu igerekeranyije yakira abantu benshi.

Inzu irimo imitako igiye itandukanye imwe muri iyo mitako ni indabo nziza cyane z'ibara ry'icyatsi ndetse hakabamo intebe ndetse hakanabamo imeza nziza cyane, ndetse hakabamo n'utundi tumeza duto, harimo ak'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru.

Ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyanza, Akarere gaherereye mu Ntara y'Amajyepfo ndetse ibi bitaro bivura indwara zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bafashe abaturage. Bakira ubwisungane mu kwivuza, burimo nka mituweli ndetse n'ubundi bwishingizi bugiye butandukanye.

Ibitaro bikomeye byitiriwe umwami Faisal biherereye mu mujyi wa Kigali nka bimwe mu bitaro byakira abarwayi benshi bagiye batandukanye, bikabafasha kubavura ndetse no kubaha imiti ibafasha kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Umuganga w'umugore, arimo arita ku murwayi uryamye ku gitanda, umuganga akaba yambaye amadarubindi, arimo arareba uko umurwayi ameze, kugira ngo amenye imiti ari bumuhereze, ndetse n'ubundi buryo butandukanye ari buze kumwitaho, nka bimwe mu nshingano za muganga.

Siporo nka kimwe mu bintu byiza bifasha abantu kuruhuka mu mutwe ndetse bikanabafasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, rero siporo ni nka kimwe mu bintu abantu bakangurirwa gukora, baba babishaka cyangwa se batabishaka kuko siporo ni ubuzima, nta muntu n'umwe wanze ubuzima.

Siporo ni ubuzima, siporo nka kimwe mu bintu batangamo inama kwa muganga kugira ngo umuntu waba ufite ikibazo k'imitsi yaba abafite ikibazo cy'amagufwa, kugira ngo umubiri ugire abasirikare benshi bashobo guhangana n'indwara iyo ari yose mu mubiri yahura nawo, bityo ntarembe cyangwa se agire ikindi kibazo gikomeye.

Siporo nka kimwe mu bifasha umubiri wa muntu kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kugira ngo abasirikare b'umubiri biyongere, kugira ngo imyakura ikore neza, kugira ngo amagufwa akore neza, rero iyo urangije siporo hari ubwo ushyiraho amazi ku mubiri kugira ngo imyanda yasohotse mu mubiri ibone ko ikuvaho.

Amazi rero nka kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'umuntu bugenda neza, rero abantu bose bashishikarijwe kunywa amazi litiro ebyiri ku munsi, uko ubyutse kugeza saa sita, ndetse nyuma ya saa sita nabwo ukongera ugafata ku mazi kugira ngo umererwe neza.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, wicaye arimo arakora siporo zo kugira ngo arambure amaboko ndetse anarambure amaguru bityo bimufashe kugira ubuzima buzira umuze ndetse no kugira ngo akore akazi ke ka buri munsi ameze neza.

Imbuto nka bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kongera amaraso mu mubiri ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ndetse bifasha abantu bakoze siporo kugira ngo bagarure imbaraga ndetse bongere bagarure n'intungamubiri baba batakaje mu byo baba bakoze.

Umusore urimo uranywa amazi nka kimwe mu byifashishwa kugira ngo umubiri wacu ugire ibintu byiza cyane ndetse ugire intungamubiri ndetse kandi ugire n'abasirikare bashobora guhangana n'indwara zigiye zitandukanye nyinshi.

Siporo nka kimwe mu bintu bifasha umubiri kugira ngo ukore neza, bityo rero abantu bashishikarijwe gukora siporo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, birinde indwara ndetse kandi banazikumire bityo umuntu yari akwiye gukora siporo cyane kandi abishyizeho umutima.

Umugore uri kwa muganga ndetse n'umwana we, biragaragara ko uwo umwana yishimye ndetse na mama we yishimye, inyuma yabo hari inzitiramibu ibafasha mu kubarinda ibibu kugira ngo itabarya ikabatera malariya ndetse ikanabarinda na tuno turwara twose twaza inyuma yabo.

Umusore ndetse n'umukobwa barimo barirukanka bakora siporo ngororamubiri, kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze, buzira indwara ndetse buzira n'icyorezo cyafata ubuzima bwabo bwa buri munsi. Uyu musore rero n'uyu mukobwa barimo baragorora amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo bamererwe neza.

Umuganga w'umukobwa, uri imbere ya mudasobwa ndetse n'impapuro zigiye zitandukanye, arimo arambara agapfukamunwa nka bimwe mu byifashishwa mu kwirinda nka muganga kugira ngo hatagira umwanduzi cyangwa se atagira uwo yanduza indwara z'ubuhumekero ndetse kandi afite icyuma cyifashishwa mu gupima umutima, acyambaye mu gatuza.

Umusore wambaye isengeri y'umukara arimo aranywa amazi avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arambure amaguru ndetse n'amaboko, bityo ubuzima bwe buzirare umuze buzire indwara ndetse bunazire icyorezo.

Umugabo barimo baramukorera iyakuramyakura kugira ngo umubiri we utangire ukore neza, amaguru ye kugira ngo ajye agenda nta kibazo kugira ngo yihute mu byo wakora bya buri munsi, arimo arabikorerwa na ruhu rwera mu gihe uri gukorerwa iyo serivisi ari umwirabura uryamye ku gitanda.

Umukobwa arimo aranywa amazi kugira ngo agire ubuzima buzira umuze bitewe nuko'uko rero amazi ari nka kimwe mu bintu bifasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abandi bantu basanzwe bose rero amazi yongerare ubushobozi umubiri bwo kurwana n'indwara iyo ari yo yose ndetse igafasha n kugira ngo amaraso atemmbere neza mu mubiri.

Siporo iri mu bifatwa nka kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze, umukobwa arimo arinanura agorora mu gatuza, arambura amaguru kugira ngo ingingo zirambuke ndetse kandi zikore ku buryo bukwiriye nk'uko imana yabishatse.

Imiti gakondo ni imwe mu miti yifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye byafasha ubugingo bwa muntu kugira ngo bugende neza, bitewe n'uko rero bimwongerera abasirikare b'umubiri kugira ngo barwane indwara iyo ariyo yose, ndetse kandi bigatuma umuntu agira ubuzima buzira umuze.

Igiti ni kimwe mu bice bigize ishyamba, rero igiti cyifashishwa mu kuyungurura umwuka abantu bahumeka, rero igiti gifasha mu buryo bwo kugira ngo abantu bahumeke umwuka mwiza, rero abantu barashishikarizwa gutera ibiti kugira ngo habeho ubuzima bwiza kandi bukwiriye.

Ibibi by'icyatsi byifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, haba mu gukora ibyo twifashisha mu buzima busanzwe ndetse n'ibyo abahanga bifashisha mu gukora imiti, igenda ivura indwara zigiye zitandukanye umuntu yagira ku mubiri we ndetse n'ikindi gice cyose yagira, bityo zikaba zitamuhahaza ndetse akaba yamererwa neza.

Ikiribwa cya tungurusumu cyifashishwa haba mu kuvura ndetse no mu kuryoshya amafunguro haba aya saa sita ari nijoro ndetse n'aya mu gitondo aho babishyira mu biryo bi giye bitandukanye harimo ibishyimbo bikavura abantu bagira ibibazo bikomeye cyane by'uburwayi bikabafasha.

Ibimera by'icyatsi nka bimwe mu byifashishwa mu gukora imiti itandukanye igiye ituma abantu bamererwa neza hari imiti bifashishwa mu kuvura ibikomere umuntu yabageze haba ku maguru ku maboko ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'umubiri.

Ikiiganza gifashe ku bibabi byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura umuntu ibice bigiye bitandukanye harimo amara, igifu, umutima, ibihaha, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'umubiri.

Abaturage benshi rero biganjemo abagabo ndetse n'umugore umwe, barimo barareba ibidukikije ndetse banita ku bijyanye n'ibidukikije nk'ibimera, babivanamo imiti yakifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti bigiye bitandukanye, ryiganjemo ibiti by'ibara ry'icyatsi, ari bimwe mu byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, imiti bafashisha mu gukora ibintu byatuma amaguru yawe atabyimbagana ndetse no kugira ngo imibiri yawe itagira ibibazo runaka, nk'ibibazo byo mu nda ndetse n'izindi ndwara zifata abantu.

Ibiti by'icyatsi byo mu byifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye nk'indwara zo mu nda, izo mu mara, izo mu bihaha, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye n'ibiti by'icyatsi byinshi cyane biri ahantu hitaruye abaturage.

Ibibabi by'icyatsi byifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, haba indwara zifata amaguru ndetse indwara zifata mu nda ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byo ku mubiri. Rero ibi bibabi byifashishwa mu gukora iyo miti.

Ibiti nka kimwe mu byifashishwa mu gukora imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo ibikomere ndetse n'izindi ndwara, umuntu arwara buzima bwe zikamuhahaza, rero ibiti byifashishwa mu gukora.

Imiti gakondo ni imwe mu miti abantu bikorera bitewe n'uko bafata ibimera cyangwa se bagafata ibindi bintu bisanzwe babonye bagahuzahuza bakabyara imiti, bikitwa imiti gakondo bitewe n'uko nayo ifasha abantu baba barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Igitunguru ndetse n'indimu ni bimwe mu bintu byifashishwa mu gukora imiti byihuse bidasabye yuko utakaza amafaranga menshi ujya kugura imiti ihenze, rero ufite igitunguru ukagira n'indimu ushobora kwikorera imiti yoroshye kandi yakuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibibabi by'icyatsi nka bimwe mu byifashishwa mu gukora imiti nyarwanda cyangwa se imiti gakondo, iyo miti rero ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo ibikomere umuntu yaba yagize ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, ndetse kandi yongera abasirikari b'umubiri mu rwego rwo kwirinda izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ifunguro rigomba kuba rigizwe n'ibintu bigiye bitandukanye, harimo imboga ndetse n'ibindi bintu bifasha umubiri kugira ngo wubake abasirikare ndetse ureme ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'ubwirinzi mu mubiri ndetse n'ibindi bintu byafasha umubiri.